Ahantu bacururiza inzoga bahita mu kabari. Harimo firigo, amakese n'ibindi byinshi, hakabamo n'umwijima kuko hateguwe neza.

Ahantu heza hadufasha gutuma natwe twitekerezaho tukavuga ngo tuzahagira ahacu cyane nko mu mahoteri iyo uri kubona hasa neza cyane.

Abantu bishimye cyane bari kunywa amayoga. Bari kumwe n'inshuti zabo. Bari ahantu mu kabari harasa neza, hafite n'amatara meza cyane.

Amafi araryoha cyane , agira intungamubiri nyinshi, atanga umusaruro munini ku gihugu, agatanga n'umusaruro ku bayaturiye kubera barayagurisha bakiteza imbere.

Inyama zidufasha gukora ibintu byinshi cyane. Iyo duteguye inyama tuzifatanya n'ibyo dushaka gukora kugira ngo ibyo biryo biryohe cyane.

Inzu zikorerwamwo ubucuruzi bwinshi cyane kandi bukungukira abaturage nko kuba ba bana abakiriye benshi cyane.

Uyu ni umuhanda munini w'imodoka ukoze neza. Iruhande rwawo hari inzu ikoreshwa na wasake itanga amazi.

Ariya ni amazu akorerwamo ubucuruzi kandi aparikwaho iruhande imodoka. Haruguru yaho hari urusengero rugaragara nkaho rushaje.

Inzu z'igihanga, ziri ku muhanda ,zifite imiryango myinshi ,ziriho abantu, zifite n'amagare ari imbere yazo.

Inzu bacururizamo imyenda y'abageni, bacururizamo n'ibisabo bakoresha mu bukwe, mu muco wa kera habaga harimo ibisabo mu bukwe kugira ngo bacunde, bashyiremo n'amata.

Ni inzu ikorerwamo ubucuruzi, bacuruzamo uduseke, bagacuruzamo imyenda, bagacuruza n'udufuka ndetse baranadoda n'imyenda.

Urusasa rubamo ibintu byinshi cyane, rugira ubwoko bwinshi butandukanye. Icyapa kizwi kwa icyapa kiyobora abakiriya kugira ngo kiboneke.

Abaturage bishimira ukuntu isuku iba iri ahantu hose cyane nko mu mujyi hose usanga hari isuku abaturage bacuruza kandi bakunguka uko babishaka.

Ubucuruzi bugaragara neza, iyo ufitemo ibintu byinshi, muri uriya muryango harimo ibintu byinshi cyane nk'amavuta, umuceri, umunyu, ndetse n'umuntu uri gutambuka ku ruhande.

Iri ni iduka bacururizamo imyenda y'abana ndetse n'imyenda y'abantu bakuru, bikadufasha gutuma twambara neza, tukikwiza cyane.

Iyi ni inzu ikorerwamo imyenda y'ubudozi bacururizamo n'imyenda y'abagabo kandi imyenda myiza cyane.

Abacuruza ibikoresho batuma abakiriye babo babizera ,kandi bagatuma n'ibindi bikoresho biboneka ku buryo burambuye, kandi babibonera ku gihe.

Inzu bakoreramo ubudozi ,bagacuruzamo n'imyenda z'abageni, bagakodesha n' imyenda y'abageni harimo na caske z'abamotari hasi ku isima.

Abaturage barimo gutegura ubwogoshi bwinshi bagasuka n'ibindi ,iyo babonye abo bakorera birabashimisha cyane...

Inzu ikorerwamo ibintu byinshi cyane. Harimo amafirigo hakabamo utubati, hakaba harimo imineke n'ibyapa ku ruhande. Uko winjiye muri iyo nzu.

Hoteli nini yitwa Fatima. Ikunda kugira abakiriya benshi, ikurura ba mukerarugendo, kuko yubatswe ahantu heza kandi ikunzwe na benshi cyane, kubera serivisi batanga.

Abacuruza ibikoresho by'inkweto badufashaga gutuma tubyambara kandi tukabaha amafaranga, nabo bakaduhereza inkweto tukagenda twungurana inyungu.

Ibirango bidufasha kubona aho tugiye ni byinshi, iyo ugiye nko kubaka ubona ibirango, by'ibyapa bigaragaza aho ugiye kubaka, ibindi nabyo bidufasha kubona ibyo ugiye gukora.

Ibikoresho byiza bituma tubona ibindi bikoresho. Iyo ucuruza ibikoresho bituma abantu babishakisha ku bwinshi kandi bakabona icyo babikoresherezaho.

Inzu igaragaramo abantu badoda n'abaje kwipimisha imyenda. Babiri bagaragara, hirya hakaza hagaragaramo ibindi bintu byinshi.

Amagare adufasha kugira ingendo ziri hafi cyane cyane, nko kuba ugiye mu rugendo uri kwihuta bigufasha kugerayo ako kanya.

Inzu bacururizamo kandi bagacururizamo n'umuziki buri uko ukeneye gucuranga urazana bakagushyiriraho indirimbo nyinshi ,haruguru y'aho bagacururizamo ibintu byinshi nk'umuceri n'ibindi bigaragara.

Ibikoresho byo mu rugo biba ari byinshi cyane, nk' amafirigo n'ibindi bikoresho bituma ubika ibindi biryo byo mu bwoko bwose, ukaba wabibika n'igihe kirekire.

Inzu nziza zigaragara ahantu henshi cyane, inzu igaragaraho ama etaje, ikaba iri hafi ku muhanda, hari n'abacuruzi bacururizamo hagaragaramo n'amafanta n'amaji, iruhande hari na moto.

Abantu bakunda gucuruza ibikoresho byiza cyane, iyo ucuruje ibikoresho bituma nawe wumva wishimye cyane, iyo ubonye n'abakiriye bigufasha kwishima.

Ahantu bagurira esanse naho haba hari ibintu byinshi bigomba kwitabwaho. Hagomba kuba hari ubwirinzi bwinshi kuko isaha n'isaha esanse yateza ikibazo.

Aga ni amazu agaragara ko bacururizamo akabare, uriya ni umuntu usa nk'aho agiye kuhiyakirira, ari kumwe n'umumotari.

Inzu bacururizamo ibintu byinshi by'ubwubatsi. Haruguru hari indi nzu badoderamo. Imbere yayo mazu hari abantu bahicaye. Imbere ayo amazu hari ahandi hadakoze neza hasa nabi bisaba ko hakorwa.

Inzu nziza nini cyane kandi ikorerwamo ibintu byinshi abantu bahari barayegereye ,kuko bafitemo imirimo n'abandi baje kubasura.

Umupira udufasha kuwambara tukagenda tudafite imbeho ,ubwo iyo wakunze umupira urawugura kugira ngo ugufashe kugenda nta mbeho cyangwa udafite ubukonje.

Iyi ni nzu bacururizamo ibintu byinshi. Rimwe bayicururizamo ibiryo by'amatungo, ahandi bacururizamo akabare. Hari n'umuyonzi uhaparitse ku ruhande.

Abaturage bakoresha amagare kugira ngo biifashishe ingendo ,ibyo bagiye guhaha ndetse n'ibyo bari gutegura gutwara mu ngo zabo ,bibafasha gutuma bagerayo kandi batavunitse.

Inzu nziza bakoreramo ubucuruzi bw'akabari. Imbere yaho hari abantu bahicaye, n'umwe uhagaze. Ku ruhande rwaho hagaragara neza kandi hishimiwe kuko hari iterambere kandi hasa neza cyane.

Abaturage batanga ama-unite ya MTN babikora bibereye ku kuri teLe. Aho baba bicaye mu mutaka ukabasanga aho bicaye.

Ibyapa bidufasha kubona ibirango byiza byo kugira tubone aho tugiye, iyo bidufasha kubona abantu tugiye kureba n'abo dusanze aho bakorera.

Iyi ni inzu ikorerwamo ibintu byinshi cyane badoderamo ibitenge by'abamama, bakadoderamo imyenda y'abagabo ,bakahadodera n'inkweto ku zacitse.

Inzu igaragaramo ubucuruzi bwinshi cyane, bujyanye no kubitsa, gucuruza amasima ibindi byinshi nabyo bigaragara aho ngaho.

Inzu bacururizamo inzoga iriho ibyapa byinshi, ibishushanyo, hariho igishushanyo cy'inyoni, igishushanyo cy'ingagi, habaho igishushanyo cy'ikirunga, hakazaho n'umuryango, no hejuru yaho hari amagambo ahanditswe.

Inzu ikorerwamo ububitsi bw'amafaranga adufasha kuzamura ubuzima bwacu bw'imibereho myiza. Abaturage barayikunda cyane kugira ngo ibabikire amafaranga.

Inzu igaragaraho banki ibika amafaranga. Icyapa kibigaragaza kirahari, n'amagambo abyemeza arahari. Imbere yaho hari n'abantu bahakorera.

Hoteri nziza ifite parikingi nini, igaragara neza, isakajwe ibyatsi kandi iteye amarangi meza, igakingishwa n'inzugi nziza cyane.

Iyi ni inzu nini igaragaza uruganiriro. Hagaragara ahantu bacanira umuriro, bakerekana naho kwicara kugira ngo babone uko bota.

Inyubako nziza cyane igaragara, abantu bari gukora amasuku, haparitse n'imodoka nyinshi cyane, kandi iyo nyubako ikaba ifite ibyumba byinshi.

Ubusitani bwiza buragaragara cyane kuko aba ari nk'iterambere ryiza, ubu aha wahicara ukaruhuka, hirya hari hoteli iri kurenguka hakaba n'andi mazu meza.

Inyubako nziza zituma umujyi wacu ugaragara neza cyane cyane nko kuba wabona inyubako zigezweho, bidufasha kwishima, tugashimisha n'abahatuye.

Imyenda idufasha gutuma tutagaragaza, ubwambure bwacu, cyane cyane, nko kuba abantu badakunda, kugaragaza umubiri w'umuntu.

Ibitoki bidufasha kugira umukamo mwiza w'umutobe kandi bikanaduha kugira imbaraga zo kugira ibyo dukora, bikaduha amafaranga ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ririmo ibintu byinshi cyane, ririmo ibiribwa, rikabamo ibyo kunywa, rikabamo abaturage, rikabamo n'ibindi bikoresho byinshi wakenera uri i iwawe mu rugo.

Inzu igaragariramo ubucuruzi busanzwe. bacuruza ibintu byose. Hanze hari agatebe bigaragara ko ari ako bicaraho, iyo bari gucuruza.

Iyi ni inzu bacururizamo ibiribwa bitandukanye byinshi. Wasangamo ibirayi，ifu y'igikoma， ibigori ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Iri ni isoko ririmo abantu benshi cyane baje gucuruza. Abandi bazana ibicuruzwa bakagurisha abacuruzi kugira ngo babone amafaranga.

Iyi ni supamaketi irimo ibintu byinshi, irimo inzoga z'amawayini ,ikabamo amabiswi, hakaba harimo amafirigo, hakaba harimo inzoga zisanzwe....

Inzu irimo ibintu byinshi cyane bacuruza. Harimo amaji, y'ubwoko bwose, hakabamo imitobe y'ubwoko bwose, hakabamo kamera ndetse n'amakaro.

Kanta ubucuruzi bwiza budukomereza kugira umusaruro mwinshi, cyane cyane nko kuba ucuruza bimwe mu bicuruzwa abaturage bakunda .

Izi ni imbizo bakoresha bari gukubura mu rugo, nko mu mbuga zo hanze, ndetse no mu muhanda bigatuma imbizo zihakesha hakagaragara neza.

Imigati bita imbata iraryoha cyane, iyo uyiriye ukayinywesha umusururu, biragufasha kugira n'imbaraga mu mubiri.

Ahantu habikwa ibintu byinshi cyane. Ariko babicuruza hadahenze kandi habamo ibintu byiza by'agaciro gakomeye hakabamo n'abantu babishinzwe kubigenzura.

Amagi adufasha kugira ubuzima bwiza cyane abaturage bigatuma nabo babona amafaranga kandi bakagira umusaruro ukomeye wo kuvanishamo imishwi.

Ibiribwa biraryoha iyo bari kubicuruza ubona ari byiza cyane ,kugira ngo abantu baze babigure ,bajyanire umuryango wabo ibyo barya.

Ibicuruzwa byinshi cyane, urabona umuntu ari gucuruza ibintu byiza kandi bikenerwa n'abantu, buri gihe ubu uyu ni umucuruzi kandi afite ibintu byinshi cyane .

Umucuruzi ugaraza ibicuruzwa bye byose. Ama-parufe yo gutera mu nzu na ma-parufe zpo gutera abantu ,andi n'amavuta no kwisiga ni byinshi.

Isoko ririmo ibintu byinshi ,ririmo n'abantu bari gucuruza n'abaje harimo:udufuka ,ibikapu amaji ,hakabamo n'imbuto zo kurya ,hakabamo n'ibindi byinshi cyane.

Inzu igaragaramo ubucuruzi bwinshi cyane, harimo n'abantu bacururizamo, bigaragarako bacuruza ibintu byinshi cyane harimo: amavuta, mayoneze, isukari, umuceri n'ibindi byinshi.

Amafi aba meza iyo uri kuyarya cyane, akaryohera umuntu uyakunda akayagurisha, akabona amafaranga kandi akagenda ayagurishiriza ahabugenewe.

Isoko rinini rigaragaramo abantu benshi, bafite buri wese ibicuruzwa bye. Harimo ibirayi, imbuto n'ibindi byinshi cyane.

Aya ni amajeri arimo gutonorwa, n'ibishyimbo biri gutonorwa, bategereje kubigurisha bakabona amafaranga bakagura ibindi bitari byo.

Inzu bacururizamo ibintu byinshi harimo imifuka ama anveorpe, hakazamo ibiribwa by'ubwoko bwose harimo n'abantu babicuruza.

Ibijumba biraryoha cyan cyane iyo uri kubirya ukabirya wabi bitetse neza. Ibijumba n'ibiryo biryoha kandi bitera imbaraga ku mubiri w'umuntu.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa byinshi byo kurya, harimo ibinyomoro, imineke, imyembe n'izindi mbuto nyinshi z'ubwoko bwose hari n'abaturage bazicuruza.

Iri ni isoko rinini rigaragaramo ibiribwa byinshi cyane. Ubonamo n'amananasi, imyembe, amaronji. Ndetse n'ababicuruza na bo ukabona bahari.

Ibihingwa byinshi byiza kandi bifite isuku babicururiza mu mujyi cyangwa ahantu heza habugenewe kandi urabona ko ari byiza nka karoti, pavuro, ibitunguru n'imiteja, byose ndabona ari byiza.

Iri ni isoko bacuruzamo imyenda y'ubwoko bwose, harimo imyenda y'abantu bakuru, kabamo n'imyenda y'abana bato, abayicuruza baba bafite ibiciro bitandukanye.

Inzu bacururizamo amavuta y'inka, amavuta asanzwe, amatoroshi na korogate ndetse n'uburoso. Hakaba harimo n' imakasi.

Ibikoresho byo mu gikoni byinshi cyane. Amadobo manini, amadobo mato, amarushe, amafoke ,ibirahure ndetse n'amasiniye yo kwaruriraho ibiryo. Hirya hari n'ibindi bikoresho byinshi cyane.